Iduka rigurishirizwamo imyenda y'abadamu, harimo amakanzu, imipira yo kwifubika, harimo n'udupira n'amashakoshi, ni iduka rigaragara y'uko babiteguye neza ibintu byabo birasa neza ryose.

Kumwishyirizamo udutambara two kwifubika harimo udutambaro dutandukanye harimo udushape twiza cyane tubereye ijisho dushake tugezweho abantu batwambara ku makanzu ku mapantaro n'ibindi bice bitandukanye.

Aha ni aho bita Muhabura folegisi biro, hakaba hakorerwa ibikorwa byo kuvunjisha, akaba ari ahantu ujyana amafaranga yawe bakakuvunjira, bakaguherezamo andi wifuza.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali ikaba igeretse, ni inzu ikodeshwa, ikaba ikodeshwa amadorari magana inani ku kwezi, usangamo, ibikoresho byose byo mu nzu mo imbere wakenera nk'igitanda, ameza n'intebe.

Inzu ikodeshwari iri mu mujyi wa Kigali, ikaba iri kugurishwa, harimo amakaro, harimo parafu nziza cyane n'igisenge cyiza, n'amatara meza, ni inzu rwose wakwiberamo n'umuryango wawe ukaba ahantu heza hasa neza.